Ahantu bakunda gusohokera habamo ibyo kunywa n' ibyo kurya bakanahabyinira, abantu bakunda kujyayo kuhidagadurira mu minsi itandukanye y' icyumweru.

Akabare banyweragamo inzoga, imbere yaho hateretseho amacupa g'ubururu garimo inzoga, bari kunywera no mu birahure. Abagabo bambaye imyenda y'umweru n'ingofero n'abandi bambaye ishati y'ubururu, aho baja mu kabare bakanywa inzoga.

Mu kabare dusangagamo ibyo kurya nk'aho botsaga inyama z'inka cyangwa iz'ingurube aho bazishitaga ku mishito bakazishyira ku masahani gameze neza g'umweru bakabiha abakiriya bakabakira neza cyane babagana.

Inyama zimeze neza bacuruzaga mu kabari no muri resitora zirasa neza, bazikaranze bashimo ibirungo bitandukanye, hejuru bashiraho akaboga k'umutako bitaga sereri gahumuzaga ibiryo cane.

Butike bacururizagamo imyenda zitandukanye, amapantaro yo kwambara, n'iyenda yo kwiyorosa n'imisego baryamagaho. Mu inzu bacururizagamo harimo amakaro gumweru.

Ibiduki bacuruzaga babyengeragamo ibigage, ubushera, inzagwa n'ibindi binyampeke bitandukanye, bityo bikaba bigufashaga kubika neza ibintu byawe byisanzuye kugira ngo bitangirika.

Ni byiza ko tubona ibirango bigaragaza ibintu bicururizwaga muri aga mazu, aho hari ibishushanyo bitatse, bigaragaza ibicuruzwa bicururizwa kuri ino butike, aho tugomba kuhasanga na nimero za telefone, wababuraho ukabahamagara bakakubwira igihe bari bubonekere.

Butike bacururizagamo ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, hakaba hariho n'ikirango kigaragaza ibintu byose wasanga hano muri ino butike, bikaba byagufasha kugira ngo umenye icyo ushaka cyose utiriwe urabaza ugasoma kuri ico capa ukabona ibyo ushaka byose.

Ikirango kigaragaza ibikorerwa muri iyi butike, hakaba hariho n'icyapa cya kanari gituma televiziyo ikora neza mu gihe wayiguze, ugomba kuzajya uyireberaho ibintu bitandukanye.

Umuntu ucuruza muri arimantasiyo, harimo n'ibikoresho bya kijyambere, bashyiramo ibyo kunywa, bakabikonjesha, mu gihe cy'izuba.

Botike bacururizagamo, imbere y'aho hari ikirango kigaragaza ibihacuruzwa. Hari agatanda k'ibiti, hari n'umuhanda gurimo kaburimbo, hakaba hari kugendamo n'abagenzi. Igiti kiriho insinga z'amashanyarazi aho babonaga umuriro gw'amashanyarazi.

Butike bacururizagamo ibiribwa bitandukanye imbere y'aho hatondekanye ibijerekani byavuyemo amavuta ,haparitse n'igare hari n'abamotari bari ku ruhande ,hari umumama uri kugosora ibiribwa ni byiza kugira ngo bagire isuku abantu babashe kubigura basange bimeze neza.

Inzu bacururizagamo harimo ibintu bitandukanye, imifuka y'imiceri n'indobo n'ibindi bintu harimo n'amabahasha n'urusenda n'amakayi n'umunyu bashiraga mu biryo batetse.

Ni byiza ko ku mihanda z'iwacu tuhasangaga ibikoresho bitandukanye, hakaba hari na kaburimbo abantu bagendagaho bakagera iyo bagera basa neza.

Butike bacururizagamo ibintu bitandukanye，hari n'ikirango kigaragaza ibintu bicururizwaga muri iyo butike，aho hari ibikoresho bitandukanye bya parasitike，n'iby'ibyuma bakoreshaga mu kugira ngo batange amazi mu gihugu cacu.

Icyapa kigaragaza ko aha hantu haberaga ibintu bijanye n'umuco nyarwanda batembereragayo bakaja gusura ingagi n'ibindi bikorwa biberaga kuri iki cyapa kigaragaza ko hano hantu haberaga ibintu byiza cane bijanye n'ibirori.

Icapa kigaragaza ibikorerwa muri iyi nyubako aho batanga ibyo kurya n'ibyo kunywa, bityo bakaba barashyizeho ikirango kigaragaza ibikorerwa muri iyi nzu igaragara imbere yacu, turebesha amaso.

Inzu bacururizagamo imyenda itandukanye, hamanitsemo amakote n'ibindi bikoresho bitandukanye. Hakaba harimo umuntu wambaye agapfukamunwa uri gucuruza muri iyo butike.

Ahantu bacururizaga ibijanye n'ibyo kunywa bagashiraho depo, ubikeneye akaza kubihabariza, hari n'ibyapa biranga ibintu bikorerwaga muri iyi butike, aho usangamo ibinyobwa bitandukanye.

Butike bacururizagamo iteye amarangi g'ubururu harafunze, hari umuntu wambaye ijire ya emuti ene, igare riparitse n'undi wicaye impande y'iryo gare n'abandi bahagaze imbere y'umudozi.

Ikirango kigaragaza ibikorerwaga muri iyi nyubako aho hari igishushanyo gishushanyijeho igitanda kigaragara ko hano wahashaka aho kurara mu gihe ugize ikibazo.

Butike bacururizagamo ibintu bitandukanye aho hariho abantu batwaye imizigo n'abicaye. Gaze bacuruzaga, abantu bakaja kuzigura bagatekeraho ibiryo. Ni byiza ko ibyo byose tubisanga bitwegereye kugira ngo tubashe kuzamuka mu iterambere. Amashanyarazi gaba mu mazu gacu kugira ngo tubashe kubona neza.

Butike bacururizagamo ibyo kurya, uhasangaga ibintu byinshi bitandukanye byo bahahiragamo, hari amazu meza kuko bacururizagamo ibyo kurya bityo bigatunga abantu babihahaga.

Ibihaza biri mu isoko bigurishwa neza, bi biteraga imbaraga ku muntu ubiriyeriye hahoranaga ingufu nyinshi cyane, aho ari byiza byeze neza, bikaba bifite umusaruro ushimishije.

Butike bacururizamo ibintu bitandukanye, hari imifuka ipakiye irimo ibintu by'ibiribwa, aho hari ikirango kigaragaza ibikorerwa aho, hari na nimero za terefone wahamagararaho mu gihe wasanga badahari, bakakubwira igihe bari bubonekere.

Butike iri ku muhanda imbere yaho hari akabati, urugi rurakinguye, mo imbere harimo ibicuruzwa bitandukanye, hejuru y'urugi hakaba harimo icyapa kigaragaza ibintu byose wasanga kuri iyi butike.

Inzu y'ubucuruzi icururizwagamo ibikoresho; bakoreshaga mu bwubatsi, bari gusiga namarangi mu mazu gabaturage gakamera neza.

Butike icururizwagamo ibintu bitandukanye. Imbere y'aho hariho moto isize amarangi g'umuhondo n'igiti cy'ururabo gitanga akayaga ku bantu baje guhahira muri iyo butike. Hariho n'abantu imbere ku muryango.

Inzu bacururizagamo ibintu bitandukanye harimo amasafuriya gariho ibirango by'umutuku n'umuhondo ,indobo z'umweru n'ibindi bikoresho bya parasitike hariho n'imyuko bakoreshaga mu guteka n'ibindi bintu bicuruzwa bitandukanye.

Butike bacururizagamo ibikoresho by'abanyeshuri bajanaga ku ishuri, bagatwaramo amakayi n'ibindi bikoresho bitandukanye, imyenda zo kwambara aho bibabikiraga neza ibintu byabo, bakaba nta wundi muntu wabihungabanya bagashiraho n'ingufuri, bikaba bifite umutekano wizewe kandi uhagije.

Butike bacururizagamo ibyo kunwa bitandukanye, hari n'amavuta go kwisiga n'ibindi. Inzoga zikorerwaga mu nganda z'ibyuma, abantu banwaga, bityo ni byiza cane kugira ngo tugire aho tugomba gukura ibintu bitandukanye bidutungira ubuzima, tukabisanga hafi y'aho dutuye.

Ahantu bacururizaga ibikoresho bitandukanye， ibyo bifashishaga kuba bashushanya， bakaba babishira mu birori bigaragaza ikintu cyabaye aho hantu， iyo bakoresheje iminsi mikuru.

Butike iri ku muhanda gwa kaburimbo yubatse neza iteye amarangi g'icyatsi, hakaba hashushanyijeho n'imisambi ibiri zimeze neza, bakaba barashizeho n'icyapa kiranga iyo butike icururizwagamo.

Butike ni nziza dusangagamo ibyo twifuza byose tugiye guhaha, imyenda imanitse ku bintu bigaragaza ubwiza bw'umwenda, aho hari ibirango by'ibintu bikorerwaga muri izi boutike. Ni byiza cane ko tuhasanga ibintu bidufasha mu byo kwambara kugira ngo tukaberwa.

Butike ifite amazu gagerekeranye bacururizagamo ibyo kurya bitandukanye, aho usangaga abantu bajagamo baja kuruhukiramo, bakaharira, bakanaharuhukira neza kugira ngo bamere neza mu mibereho yabo.

Butike bacururizagamo ibintu bitandukanye， dukeneraga aho waja hose， ku muhanda uhasangaga amazu gubatse neza gabamo ibyo kurya bacururizagamo， umuntu yifashishaga mu buzima busanzwe bwo kugira ngo tubeho tumeze neza inzara itatwicaga.

Isoko bacururizagamo ibintu bitandukanye inyanya, ibitunguru n'ibindi bintu byinshi. Hari ibisheke abantu urujya n'uruza, amagare imitaka ya Emutiyeni, amazu menshi gubatse ku murongo gateye amarangi gatandukanye bacururizagamo. Ni byiza kuba dufite ahantu hafi washakira ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Inzu bacururizagamo imyenda zitandukanye biyorosaga n'izo kwambara, n'ibitenge by'abagore, harimo abantu baje guhaha ibyo bicuruzwa, hakaba hari n'abagurisha bicaye impande y'ibyo bicuruzwa.

Icyapa kigaragazaga ibikorerwaga muri izi nzu, hano wasanga ibyo kurya n'ibyo kunywa, haparitse umu motari utwaye umugenzi yambaye igikoresho gishobora kuba cyabarinda mu gihe haba impanuka.

Ni byiza ko tubona amazu gakoze neza bacururizagamo ibintu bitandukanye, hakaba hariho n'ibirango bigaragaza ibikorerwa muri ago mazu g'ubucuruzi g'iterambere, bidufasha kuzamuka mu bukungu no kumera neza tukisukura ahantu hose.

Boutike yubakishije amabati, bakaba barasizeho amarangi bw'umuhondo, imbere yaho hakaba hariho akabase karimo urubuto bita avoka, abaturage bakunda kujya kuzihaha, kugira ngo bazirye ku biryo, n'urubuto rw'intungamubiri.

Butike zimeze neza, hariho ibyapa biranga ibikorwa bikorerwaga mw'ago mazu, hakaba hariho n'aho baparikaga imodoka zabo mu gihe baje murizo butike kuzihahiramo.

Amazu bacururizagamo imiti zinka, zikazivura kugira ngo zibone kubaho zifite ubuzima bwiza.

Inzu baruhukiragamo bakahasanga ibyo kurya n'ibyo kunywa hari icyapa na nimero za telefone ziharanga. ukeneye kuja kuharuhukira akaba yahamagara izo nomero akahasaba serivisi ashaka akayihabwa, akayibona.

Ni byiza ko amacumbi abaho kugira ngo umuntu abone aho arara mu gihe urugendo rumubanye rurerure atageze iyo aja.

Butike bacururizagamo ibikoresho bitandukanye harimo: ibisorori, amabase, ibikapu, n' umuntu uri imbere yabyo ubicuruzaga aho yakira abakiriya akabaha ibyo bashaka byose.

Butike iri kuri kaburimbo， hariho umuntu utwaye igare， ugeze kuri iyo nzu， imeze neza hariho uruzitiro ruteye amarangi n'icapa kigaragaza ibikorerwa ahongaho， inzu nayo iteye amarangi g'umweru n'ubururu.

Ni byiza ko tubonaga amazu gakoze neza ku muhanda, gakaba gakorerwagamo ibintu bitandukanye umuntu akaba yaza kubishakiramo, mu gihe hari icyo akeneye muri ibyo bikoresho bikoreshwaga mu buzima busanzwe nk'iby'ikoranabuhanga.

Amazu gwo kuri kaburimbo gagomba kuba gasa neza nkagangaga turi kubona imbere yacu hagakorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye bakagashiraho n'amakaro kugira ngo gase neza mu gihe kagaragarira imbere y'abantu gari ku muhanda.

Inzu bacururizagamo ifite isakaro rya kijambere ,aho imbere yayo hariho indabo za kizungu zizamukaga nk'ibiti hakaba hariho n'insinga zijagamo amashanyarazi, bakaba bacanaga muri izo nzu bakabona neza.

Inyubako iri ku muhanda icururizwagamo ibicuruzwa bitandukanye bityo hakaba hegereye abaturage kuba baja kuhashakira ibyo kurya byihutirwa.

Amazu bacururizagamo aho gateye amarange g'umuhondo, hari n'ibirango bigaragaza ko bahasanga ibyo kunywa, imbere hari umugore uri kugenda unyuze aho ngaho, hari n'umutaka wa emutiyene n'umukozi wa emutiyene uhicaye utangaga mitiyu.

Ni byiza ko tubona aho dukura imyenda zo kuraramo, aho tubona n'ibirango bigaragaza ibikorerwa kuri izo nzu, bityo ni byiza kugira ngo ugure imyenda yo uzaja urararamo, bigutera kuba waba umeze neza ntuhangayike nijoro. Haba hagize ikibazo kiba ukaba wahaguruka nta kibazo ufite wambaye umeze neza.

Inzu yubatse igerekeranyije bacururizagamo, abamotari n'abanyonzi bahagaze kuri kaburimbo bahategerereje abagenzi kugira ngo babatware babageze iyo bagiye.

Inzu bararagamo bacumbikagamo bishura amafaranga ,imbere y'aho hakaba haparitseho imodoka hari n' ikirango kigaragaza ibikorerwaga muri iyi nzu ihari, bigaragaza ko wahagera ugasanga amacumbi yo kuraramo.

Ahantu bacururizaga amatelefone n'ibindi bintu bitandukanye, hariho ikirango cy'ibyo bakora hakaba na nimero za telefone n'izina rya nyiri iyo butike, aho bigufasha kuba wagenda ukamenya icyo ushaka ugahita wibwira ko gihari, ukabona na nimero wahamagaraho ukabona nyiri iyo butike.

Ikirango kigaragaza ko hano hantu haba amafaranga, aho ugomba kuyabitsa cyangwa ukayabikura; hari n' icapa cy' ikirango cy' ibendera ry' igihugu, hariho n' igiti gifite insinga z' amashanyarazi zijya muri iyo nzu babikamo amafaranga.

Muri hoteli tuhasangaga ibintu bitandukanye: urugero nk'imitako, ibitanda bishashe neza bimeze neza cane. Inkweto zo kuba wambara uri aho ngaho. Haba hafite isuku nziza ikenewe aho muri ibyo byumba harimo n'intebe zo kwicaraho nk'imitako ishimisha abakiriya.

Inzu bishuraga bakaja kuruhukiramo, aho bahasangaga ibintu bitandukanye bakoreragamo, aho intebe z'aho ari nziza cyane zifite imifariso z'umweru, ameza meza cyane n'inzugi zisa neza zikozwe mu byuma byabugenewe.

Abacuruzi bacururizaga mu soko ryagutse b'abagore, bacuruzaga ibikunguru bakabigurisha abakiriya mu gihe baza babagana.

Isoko bacururizagamo ibiribwa bitandukanye, harimo ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri, amagi ibintu bijanye n'ibyokurya, imunzani zo gupimisha ibyo bagurishije kugira ngo bamenye ibiro batanze ku bakiriya babo.

Abanyonzi n'abamotari, bategereza abantu bavuye guhaha mu isoko, kugira ngo babatware babageze iyo bashaka kugera.

Amagi gari mu bikoresho byabugenewe kugira ngo gatabasha kugwa hasi gakameneka bityo akaba ahombye amafaranga akaba yagashize mu kintu kigomba kurinda umutekano wago kugira ngo ataririnda yagwa hasi akameneka.

Isoko bacururizagamo imva zitandukanye， aho hari izisize irangi ry'umweru n'ayandi mabara gatandukanye，hejuru hatwikiyeho ibitambaro， zifite n'ibirahure hejuru.

Ifu imeze neza iri mu mufuka, hakaba harimo n'agakoroboyi barengagamo na rushe barengeshaga n'umunzani bapimagaho ibiro, kugira ngo bamenye ko ibyo bashaka guhereza abakiriya ari byo.

Ibitambaro bacuruzaga bikorwagamo imyenda zitandukanye, aho bazijanaanaga mu birori zidoze neza, amamashini gabugenewe gadodaga ibyo bitambaro, ni byiza ko gaba gahari, kugira ngo bafashe abakiriya kubagezaho ibyo bashaka kudodesha.

Imbuto zitandukanye dusangaga mu isoko harimo amaronji, imineke n'imizuzu bakundaga gukoresha muri hoteli, aho ibyo biribwa biba bikungahaye bikenerwaga ku masoko mpuzamahanga, bikajanwa kugurishwa yo.

Ubucuruzi ni bwiza cane aho tujaga mu isoko kuguramo ibintu bitandukanye, tubonagaho aho duhahira ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibyo kwisiga n'ibyo kwambara, amashuka n'imyambaro, amapantaro, inkweto n'ibindi byinshi bitandukanye dushakiraga mu soko.

Ubucuruzi ni inkingi y'iterambere ku baturage. Aho abaturage bahuriraga mu isoko bajanye ibicuruzwa bitandukanye. Urugero: nk'ibirayi, abaturage babifite bakabigurisha abatabifite bityo nabo bakabona aho guhahira byoroshe.

Abantu benshi bahuriraga mu isoko bagiye kugurisha ibyo bahinze, abandi nabo baja kugura ibibatunga, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu isoko bacuruzagamo ibintu bitandukanye, harimo imikandara, amasogisi, imyenda, amakabutura, ingofero, ibitambaro bambaraga mu mutwe n'ibindi bintu bitandukanye.

Imyeyo bagurishaga bakazigura bakazikubuza mu mago atandukanye cyangwa mu busitani aho ari igikoresho umuntu akenera mu rugo, akaba agomba kugira isuku mu rugo rwe.

Umubyeyi yicaye ku mufuka yafunze imifungungo z'imyumbati, kugira abone uko ayicuruza abaza bamugana ababwire igiciro, ariko zigurishaho nabo bagure, imyumbati ni myiza itera imbaraga.

Imyenda ziri ahantu hameze neza zikaba zitahura n'umwanda. Zikaba zimanitse zimwe ku twuma zifite amabara atandukanye umukara, umweru, ubururu icyatsi umutuku.

Isoko bacururizagamo ibintu bitandukanye hari n'ibirango bigaragaza ko bahacururiza, mbere yaho hari abantu bagenda bakira abakiriya, babaza ibyo bashaka basanga bihari bakinjiramo bakaja kuhagurira.

Umuntu iyo aryaga imbuto zitandukanye bimuteraga kuba yagira ubuzima bwiza : agatohagira, akamera neza, akabyibuha ,akagira ubuzima buzira umuze, kubera ko aryaga imbuto zitandukanye.

Isoko ry'igorofa bacururizagamo ibintu bitandukanye: ibitunguru, intoryi, inyanya, karoti; bacururizagamo n'imyenda n'ibikoresho byo mu gikoni bitandukanye abantu bakaja guhaha muri iryo soko bakaguramo ibintu byinshi bakabijana.

Isoko bacururizagamo imyenda zitandukanye, aho winjiragamo ugashaka icyo ukeneye kugura ukakibona, bacururizagamo ibintu byinshi cane, amashuka, imyenda yo kwambara, amakanzu, amapantaro, byose bibaga muri iri soko wabisangamo.

Uruja n'uruza mu isoko abaturage bacuruza imyenda aho abandi baja guhaha bashaka ibyo bambara, ni byiza ko tugira amasoko hafi yacu kugira tuzaje tuja guhahiramo imyenda yo kwambara.

Umugabo ukora ubucuruzi bwo kuba yasudira ibijerekani byapfumutseho amabase gacitse, akaba abikoraga akoresheje icyuma agicanira agasudira ibyo bikoresho bitandukanye. Imbere ye hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu n'umukara, hari n'umugore wicaye iruhande yitwikirije n'umutaka.

Amavuta gatandukanye gamwe gari mu macupa agandi gari mutujerekani, bacuruzaga bakayagurisha abaturage. Bakajya kugateka mu biryo bityo bakarya ibiryo bikaranze neza.

Isoko rihuriragamo abantu benshi, bashaka imbuto z'inintungamubiri, kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze, mu gihe babona ko bikwiriye kurya imbuto zitandukanye cane.

Umucuruzi ukoreshaga icyuma cyo gukora icyayi cy'ikawa, hari n'ibindi bicuruzwa bitandukanye bakoraga mu birayi biri imbere ye, aho yifashishaga udukombe apfunyikira abantu baje kugura ikawa ahongaho.

Pavuro ni igihingwa cy'intungamubiri kimeze neza aho bakijanaga mu isoko hakavamo amafaranga. Harimo abantu mu isoko batandukanye baje kugura no kugurisha ibindi bintu, ni igihingwa cy'intungamubiri gikunda gushirwa mu biryo nk'inyama n'ibindi bitandukanye.

Isoko bacururizagamo ibintu bitandukanye harimo imyenda, inkweto, imitaka ya emutiyene. Aho bacururizaga ibyokurya n'ahari imyenda, n'ibindi bintu bitandukanye bikorerwaga muri iri soko. Uruja n'uruza rw'abantu baje guhaha no gucuruza.